Abana bane bari guseka bishimye bahagarariwe n'umugabo afite igikombe mu ntoki ari kujya akura amazi mu ndobo akayabamena ku ntoki zabo.

Abantu bicaye bahuje umugambi, bari gusoma ibintu bitandukanye biri kumpapuro zabo, ni abagabo n'abagore n'abakobwa bamwe muri bo bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, abagore bamwe bambaye amaherena kandi bafite imisatsi y'umwimerere.

Abamama batatu bose bakenyeye ibitenge, babiri bafite ibitambaro mu mutwe, undi ntacyo, bari gukoresha icyuma cy'isoko y'amazi bavoma amazi mu butaka, bavomera mu gisafuriya kinini, undi adaha akoresheje indobo.

Amagambo menshi yanditse atandukanye, afite umutwe ugira uti" ibisobanuro, akanyezo, ifoto igomba gufatwa, hirya ubuzima bwo mu mutwe, ubwonko, kwita ku buzima, ibyorezo, imibonano mpuzabitsina no kwita ku byerekeranye nayo".

Umwana wambaye umupira utukura n'ikabutura y'icyatsi kibisi, ari kuvoma amazi kuri isoko ebyiri ariko akavoma ku isoko imwe.

Umumama wikoreye indobo itukura afite n'indi mu kuboko kw'iburyo, akaboko k'imoso gafashe indobo iri ku mutwe yambaye igitambaro, yambaye agashati, yambaye igitenge ari kugenda yerekeza imbere ye hari ibiti.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imbaho bari kwiga bafashe amakayi mu ntoki, bambaye imyenda itandukanye mu mabara bambaye amakote abandi amashati y'umweru abandi ibitenge.

Abantu b'abagore bicaye ku ntebe, Imbere yabo hari ameza hateretse amakayi manini. Bari kwandika bavana ibintu bari kwandika ku dukarita, babishyira mu ikayi.

Abantu bagaragara nk'abanyabuzima bari gufatanya na polisi bari kwita guha abana indyo yuzuye harimo n'ibyo kunywa, abana bambaye impuzankano zisa neza abantu bari kubitaho.

Abantu bagaragara nk'abajyanama b'ubuzima bari gufatana ifoto n'umuzungu wambaye imyenda y'umukara, aba bajyanama bambaye impuzankano y'amataburiya y'ubururu, harimo n'uwambaye iy'umweru, bose bafite utuntu bambaye mu ijosi tubahuza.

Abantu babiri bicaye imbere y'ameza, afite igitambaro cy'umuhondo, haragaragara n'idarapo rya Sudani y'epfo, iyi ikaba ari Minisiteri y'ubuzima, muri Sudani y'epfo.

Abantu batanu baricaye, bafite amazi, amakaramu n'amakayi n'amatelefone. Babiri muri bo ni abazungukazi, batatu ni abirabura, uko ari bane bahanze amaso umuntu umwe wicaye. imbere yabo

Abanyeshuri bambaye impuzankano hejuru honyine abahungu bane n'umukobwa umwe ufite umusatsi mwinshi umuhungu umwe yambaye linete z'umukara abandi bambaye baji.

Abantu bahujwe na gahunda za leta, harimo n'ab'inzego z'ibanze, mu bicaye harimo umupolisi w'umugore, umuntu uhagaze imbere yabo ni umugabo afite indangururamajwi, hirya hari abandi bafite imitaka bitwikiriye kubera izuba.

Umwana muto wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi n'ikabutura y'umukara, ari gusukirwa amazi ku ntoki hamwe n'isabune akaraba yamabye agakomo ku ntoki, ayo mazi ari kuyasikirwa n'umuntu mukuru.

Umwana ari gukaraba mu maso nta sabune, amazi ari kuva mu isoko ari gusekamo, inyuma ye hari ibiti n'ibyatsi bisanzwe bifite amabara atukura.

Icyuma cyiganje mu ibara ry'icyatsi kibisi gitanga umwuka wo guhumeka kwa muganga baha abarwayi, n'ibyuma bibiri bicomekanyije n'ikindi ntazi icyo gikora.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari kurya ibiryo birimo akawunga, ibishyimbo, bafite amasahane y'icyuma, bafite n'amafurusheti, bari kumwenyura bambaye udupfukamunwa ariko ntibatwambaye neza, bicaye ku ntebe z'ishuri z'imbaho.

Umugore ufite ibintu ashinzwe, afite impapuro mu ntoki, ari guhereza abantu batandukanye ngo bagende basoma, yambaye umwenda w'akazi, yambaye n'umupira w'imbere w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari abagabo hari n'abagore, umwe mu bagore yambaye ingofero.

Umugabo ari gukorera umwana ibido irimo amazi, umuzungukazi afite terefone ari kumufotora, inyuma hari abandi bantu babiri bari kurebera.

Umugore udubitse ibido mu mazi atemba ari kuvoma yambaye umupira w'umuhondo, umugabo wambaye bodaboda z'umweru umupira w'umuhondo ari koza igare aryogereza mu mazi umugore ari kuvoma.

Abantu benshi bahagaze nk'abahuje umugambi, bahagaze nk'abifotoza, biganjemo abamama bambaye ibitenge, bafite imisatsi y'umwimerere, barahagaze imbere y'inzu isakaje amategura.

Umubyeyi yikoreye ibido y'umuhondo ipfundikije umupfundikizo utukura. Yikoreje ingata, yambaye igitambaro, yambaye umupira, yambaye igitenge. Iruhande rwe hari umwana wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bahuriye ku ivomo bafite ibyo kuvomeramo, umwe mu bantu bahari ni umugabo afashe ku ivomo yambaye ingofero y'umuhondo yabugenewe, yambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru.

Umwana mutoya ahagaze imbere y'ibasi ari gukaraba mu mazi, yambaye ishati y'impuzankano itukura, ibasi ye irasa n'umutuku werurutse iteretse kuri kandagira ukarabe.

Abantu bane, abakobwa batatu n'umuhungu barasa n'abaganira, inyuma yaho hari amagambo agaragaza gushyirwa hanze ku mugaragaro ko ikigo gishinzwe kurinda abana no kubakurikirana, hakabamo n'umuterankunga w'ikigo gishinzwe kwita ku bana ku Isi.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hari akana gatoya, kari kumwe n'umumama witandiye nk'umusiramukazi. Hafi aho hari undi muntu wicaye ku ntebe, afite ikaramu, afite ibintu birikureba ku gakarita imbere ye, ari kwandika ku mpapuro hasi.

Abana babiri b'abahungu bari kuvoma amazi bayavomera mu ndobo ava mu isoko, inyuma yabo hari ibiti hari n'izuba, umwe afashe ku isoko y'amazi ari kuvomeraho.

Abana benshi bahuje urugwiro barishimye bahuje amaboko yabo ku isoko y'amazi bari gukaraba bose bafite udusatsi dukeya umwe muri bo ari guseka bari kurwana babyigana begera amazi.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana ku Isi mu ibara ry'icyatsi kibisi, munsi hari amagambo agira ati: "Kuri buri mwana." Ikirango kigaragaza ubufatanye bw'isi yose umubyeyi yita ku mwana.

Umwana muto w'umukobwa yegamiye isoko y'amazi y'ivomo ari kuvomera mu kavido gato hafi aho hari umwana n'umuhungu uri kujya asunika amazi akoresheje igikoresho kiyakura mu butaka cyangwa se gupomba.

Umubyeyi wambaye akagofero n'ijipo n'umupira ateruye ijerekani y'umuhondo uri kuvoma amazi imbere ye hari abana babiri umwe yambaye umupira utukura.

Umumama wicaye uri kumwe n'abana bafite ibitambaro mu ijosi, abandi barabikenyeye, umumama ari kuhagira umwana mutoya wicaye mu ibase.

Isoko y'amazi ifite amasoko atatu. Umugore ufite umutwe utariho umusatsi ari kuvoma mu ijerekani nini, afite akajerekani gateretse hasi, yambaye ibintu bitukura birimo n'amabara y'umweru.

Umwana w'umukobwa w'umwangavu ari gukandagira kandagira ukarabe, yarangiza agakaraba, agakarabira mu isafuriya y'icyuma, amazi ava mu ndobo, abana inyuma ye bambaye impuzankano zisa n'izo yambaye, bari gukina.

Abantu baje kuvoma bafite amabido menshi. Umukobwa umwe ahagaze yegamiye inzu ivomerwamo abandi bahagaze hafi y'iyo vomero bafite ibido mu ntoki.

Umugore wambaye agatambaro mu mutwe, yambaye umupira w'amaboko magufi, akinyeye igitenge, ari kuvoma amazi ava mu isoko ayashyira mu ibido y'umuhondo ari kuvomeramo, akaboko ke gafashe ku cyuma kizana amazi.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso, ateze igitambaro mu mutwe yambaye n'igitenge ahetse umwana, ari kwifotoranya n'abandi bana benshi b'abirabura batoya.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo, ari kuvoma amazi avomera mu kavido k'umweru. Hafi aho hari abandi bantu bakuru n'abandi bana bagenzi be bari kuvoma amazi.

Abantu bicaye bambaye mu buryo bwenda gusa, bambaye udupfukamunwa tw'umukara n'utundi tutari umukara. Bafite amazi. Bafite ibyo kwandikaho n'ibyo kwandikisha imbere yabo.

Ifoto igaragaza icyapa cy'Ikigo cyita ku buzima cyo muri Jeworogiya. Ifite amabara y'umukara n'amabara y'ubururu.

Abantu babiri umugabo n'umugore bafite imfashanyo z'ibintu bitandukanye ziturutse mu muryango utabara imbabare nk'uko bigaragazwa n'umwenda wambawe n'umugabo, umugore yambaye ishati y'ubururu yambaye isaha y'umweru afite imisatsi itemba, umugabo yambaye rinete.

Abana bane b'abahungu bari kuvoma ku ivomo bapompa amazi bayavana mu butaka hasi azamuka akajya mu mavido yabo, umwe muri bo yambaye ipantaro yanatose.

Abantu bane bicaye, ahantu bicaye hamanitse ibipapuro bigaragaza amashusho atandukanye, babiri, batatu ni abagore, umwe ni umwana w'umuhungu. Umwe muri abo bagore yambaye yitanditaye, undi yambaye ingofero y'umupira w'umutuku.

Abagore batatu, umwe ari inyuma yambaye agapira gatukura, babiri barunamye bari gukaraba amazi bananywa amazi avuye ku ivomo aza ku kiganza cyabo. Hari amabido abiri y'umuhondo ateretse hafi yabo.

Umwana mutoya w'umukobwa arunamye, ari koza indobo z'umweru hafi n'isoko y'amazi, hafi aho hari ikigigi cy'ibuye, inyumaye hari ibiti bifite amashami ibindi byarakokotse, umwana ari kumwenyurira umuntu uri imbereye.

Umubyeyi w'umuganga wicaye hafi aho hari abandi babyeyi bicaye na bo, ari gupima ibyerekeranye n'imivuduko y'amaraso no gutera k'umutima mu rwego rwo kubafasha kwirinda indwara zitandura.

Uruhurirane rw'abantu benshi, baricaye bahanze amaso umuntu uri imbere uri kuvuga, ni benshi biganjemo abagabo harimo n'abagore bafite amazi imbere yabo, bicaye ku meza manini bafite impapuro n'amakaramu n'amaterefone.

Inyubako itangaje hejuru yayo hari amazi hakurya yayo hari imihanda, amazu, ibiti, imiturire muri make, inyubako ihari isakaje isakaro y'umutuku y'amabati.

Abantu bishimye, benshi batandukanye, basa n'abahuje umugambi, bagaragaza impapuro zanditseho ibintu bitandukanye. Ni abagabo n'abagore biganjemo urubyiruko, bamwe bambaye uko bishakiye abandi bambaye nk'abafite ikibahuje.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda, w'ikigo gishinzwe gutanga ibiryo ku isi, cyane cyane kibanda ku mpunzi n'abakene. Kiri kwerekeza ahantu hamwe kijya ahandi gifite amapine menshi, ni rukururana.

Gukaraba ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, biturinda kwandura indwara za hato na hato, urugero indwara zishobora guturuka ku isuku nke mu gihe dukoresha intoki zacu turya, cyangwa twikora mu mazuru, uyu mugabo ari gukaraba kuri kandagira ukarabe.

Abantu icyenda baricaye, bicaye ku ntebe z'ibiti begeranye n'inzu iteye amarangi y'ubururu, bose bafite impapuro mu ntoki harimo abagore n'abagabo, harimo abafite imyambaro y'inkeragutabara.

Abaganga batanu. Bambaye impuzankano harimo n'udupfukamunwa mu byo bambaye. Bari gufasha umuntu uryamye bigaragara ko yagize ikibazo gikomeye.

Kurandura kanseri y'inkondo y'umura, ni minisitiri w'ubuzima Sabe Nsanzimana, kanseri y'inkondo y'umura ni imwe muri kanseri ebyiri zikomeye mu Rwanda, abarenga magana atandatu bahitanwe na yo buri mwaka.

Umuganga wicaye ari gufasha ababyeyi agaragaza uko amaraso yabo n'umutima bimeze, abapimisha akuma ka muganga kabugenewe afite telefone mu ntoki.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara n'amashati, bafite ibitabo mu ntoki bombi, bahuje ibiganza bari kumwenyura basa n'aganira bose ni abirabura, umwe afite umusatsi undi nta musatsi afite.

Umugore yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umukara n'umweru, yambaye ikote, yambaye agapfukamunwa, afite umusatsi w'umwimerere. Imbere ye hari abantu babiri bicaye bambaye udupfukamunwa, bambaye impuzankano za muganga, bari imbere y'ameza, bafite n'imashini n'ikaramu n'impapuro.

Umu mama uteze igitambaro mu mutwe, yambaye ibitenge, afite umwana ateruye mu ntoki, afite n'igipande kikingira yakingirijeho umwana.

Abana babiri bari gukaraba, umwe ari gusukira undi amazi ku ntoki, uri gusukirwa amazi ari guseka, uri gusuka amazi ari kwitegerezaho amazi ari kuyamusukira ku kiganza, ku biganza bye byombi.

Abantu bicaye nka bahuje umugambi, baricaye bari kuganira bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, bambaye imyenda itandukanyije amabara ubururu, umutuku, umuhondo, abagabo n'abagore.

Abantu barindwi abagabo bane, abagore batatu barahagaze nk'abari gufata ifoto, bamwe muri bo ni umuganga undi yambaye impuzankano y'akandi kazi nk'akumutekano.

Umuntu w'umugabo uri kwigisha abaturage begereye inzu yubakishije ibiti bisize irangi ry'icyatsi kibisi, afite ikaramu mu ntoki n'ikayi, afite n'umuntu begeranye, abandi bicaye n'abandi babiri bahagaze.

Abana babiri bamaze kuvoma amazi mu ndobo bari gufashanya kugira ngo umwe akorere undi ku mutwe hirya hari ibiti n'umusozi.

Abagabo n'abagore, bambaye udupfukamunwa. Umwe yambaye ingofero, abandi bateze ibitambaro ntabyo bateze, bafite impapuro mu ntoki, bari gufasha umwana kunywa akanini. Bombi bicaye nk'abahuje umugambi.

Umugore wicaye ku gitanda uteze igitambaro uri kumwe n'abaganga babiri, umugore uri kumufasha yambaye rinete yambaye n'itaburiya, ari kumupima umuvuduko w'amaraso akoreshe akuma kabugenewe.

Umubyeyi uri gusekera umwana ari kumutera urushinge umwana ateruwe n'umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'irose, afite imisatsi iboshye igwa mu mugongo kimwe n'umuganga uri kumutera urushinge bari mu nzu.

Umuganga ari kwigisha abantu ibyerekeranye no gupima ibiro by’abana no kubakingiza ku gihe, kugira ngo bibafashe kuba abana bakura neza. Abantu bambaye ibitambaro, abagabo nta kintu k’ingofero bambaye.

Umusaza w'umwirabura wambaye inshabari w'imisatsi myinshi n'ubwanwa, arasuhuzanya n'umugabo w'igikwerere ufite umusatsi muke n'ubwanwa buke, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati iri mu mabara atukura.

Abagore batatu umugabo umwe undi muntu ukuboko kwe ntikugaragara, baricaye umwe muri bo afite ijambo ari kuvuga, yazamuye urutoki rwa mukubitarukoko yambaye udukomo ku kaboko.

Ifoto y'umubyeyi madamu Jeannette Kagame, ari imbere y'indangururamajwi, yambaye rinete, yambaye amaherena, umusatsi we uboheye inyuma, yambaye ishati y'icyatsi, ari muri gahunda yo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe bukomeze kubungwabungwa.

Umuntu w'igitsina gabo, yicaye ahantu hasa nkahorombereje muri rigori, yegamiye igikuta, yegamye ahuje amaguru, arahindukiye, afite umusatsi muke, yambaye umupira utukura, yambaye ipantaro n'inkweto z'umukara.

Abagabo barindwi bambaye imipira bamwe muri bo, abagore babiri bose bafatanyije mu gufata ifoto inyuma yabo hari imodoka ikinguye umuryango.

Abantu babiri baricaye umugabo n'umugore, umugabo afite impapuro imbere ye, umugore afite indangururamajwi, inyuma yabo hari ibirango by'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Abantu bahuje umugambi bambaye impuzankano, bari kumwe na Polisi bafite indangururamajwi, bafite urupapuro, bafite icyapa cya Leta y'u Rwanda cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Umugabo yicaye ku rubaho, imbere ye hari abamama batatu n'umwana, babiri muri bo bafite amakayi n'amakaramu, umwe muri bo ateze igitambaro yambaye igitenge, yambaye n'umupira w'umutuku, bari kuganira, umwana ari guseka agaragaza akamwenyu ku maso.

Umusaza ari kumwenyura afite ibihanga yakutse amenyo yo hasi n'ayo haruguru ni umwirabura yambaye ishati y'ubururu afite n'umwitero w'umuhondo. yambaye ikintu mu mutwe gisa n'ingofero.

Umwana ufite amarira ari gutemba ku matama ye, yikoreye amaboko, umugore ufite inkwi mu ntoki ahambira igitenge mu nda, ari kugenda ari inyuma y'umwana.

Umugabo wicaye ku meza, imbere ye hari amazi wicaranye n'umu mama ku ntebe y'icyatsi kibisi, yambaye agatambaro mu mutwe n'umupira w'amaboko magufi n'igitenge, uyu mugabo afite ikintu kimeze nka mudasobwa imbere ye.

Umukobwa wubitse umutwe ufite imisatsi izirikiye mu mutwe, ufite ikiganza cy'inzobe, wambaye umupira w'umweru, yifashe mu mutwe nk'umuntu uhangayitse, afite ibibazo byinshi.

Umugore wikoreye igitebo cy'ibijumba, harimo imigozi, afite ingata ku mutwe, afite isuka, yambaye ikote. Inyuma ye hari inzu y'amategura n'urubuto rw'igishayote ruri kuzamuka.

Umugabo ufite umwanda mwinshi yambaye incabari yicaye mu muferege ntabwo afite gutekereza neza afite imyenda myinshi yarimo amashashi ama palasitike .

Ikirango kigaragaza abantu babiri bafashe umutwe, iruhande rwabo rwanditseho kwita ku buzima bwo mu mutwe umunsi wizihizwa buri mwaka, byari ku nshuro y'umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu.

Umugabo ufite imyanda myinshi ugaragara nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ibyenda byinshi bifite umwanda, yambaye indorerwamo z'amaso n'ingofero y'umukara, ari hafi y'ikimoteri kijugunywamo imyanda.

Umukobwa ufite imisatsi y'umwimerere. Afite amaso, amazuru, umunwa n'amenyo, amatwi yambaye agapira gatukura, yambaye akandi k'imbere k'ubururu, ari guseka afite ikintu ari kureba imbere ye.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hamwe n'icya Repubulika y'u Rwanda, hamwe n'igishinzwe kwita ku bana ku isi, hafi aho hari amagambo yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, byo ku itariki icumi z'ukwa cumi, hari icyizere cy'uko nyuma y'indwara yo mu mutwe ubuzima bukomeza.

Umugore wambaye igitenge yicaye ku musambi, ateruye umwana uri kurya intoki, imbere ye hari urutaro, ku rutare hariho imbuto, hariho na mironko irimo imbuto, iruhande rwe hari umwana muto na we bicaye. Yicaye imbere y'inzu yubakishije ibyondo, urubahu ni rwo rukoze urugi rw'iyo nzu.

Abantu batandukanye bari gufata ifoto. Bari bahujwe n'igikorwa cyo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana.

Abanyacyubahiro bicaye imbere ni abantu batandatu, barimo abagore, barimo n'abagabo, bari m' Umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku Buzima bwo mu Mutwe, hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Abagabo bigitsina gabo n'igitsina gore bose hamwe ni cumi na bane bahagaze nk'abifotoza bahuriye kuri gahunda yo guteza imbere ubutabera muri rubanda.

Abantu baricaye ku ntebe zitukura, bamwe barigamye abandi ntibegamye, bamwe bambaye indorerwamo z'amaso abandi ntibazambaye. Bafite imisatsi itandukanye. Bamwe ni abagore abandi ni abagabo. Imbere yabo hari umuntu ufite ibintu ari kubabwira.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso w'umwirabura afite imisatsi myinshi y'umwimerere, ari ahantu hari amagambo yanditseho ngo ''ubuzima bwo mu mutwe bwiza kuri bose.''

Umu mama ari kumwenyura. Afite imisatsi itemba mu mugongo, arahagaze. Hafi aho hari icyapa. Ahagaze mu nzu. Icyapa kigaragaza abafatanyabikorwa mu kurengera ubuzima.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku abenshi muri bambaye amakote abandi bambaye impuzankano z'imipira y'umukara y'amaboko magufiya abandi ntayo bambaye.

Icyapa cyerekana aho umuntu asabira ubufasha mu gihe ahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyangwa n'irindi hohoterwa runaka yaba yakorewe.

Abantu batatu barandase umuntu umwe ugaragara ko ufite intege nkeya, umurandase afite inkoni mu kuboko kw'iburyo, amumufashe mu rubavu n'undi amufashe amaboko.

Abantu biganjemo urubyiruko, bahagaze nk'abifotoza, bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo arimo nk'abantu bakora umwuga w'ubudozi, bahuzwa na hoteli runaka.

Umugabo w'umwirabura w'inzobe ari guseka amwenyura, agaragaje urwasaya rwo hasi n'ubwo hejuru, amenyo yombi yo hasi no hejuru aragaragara, hagaragara ururimi amaso ye n'amatwi n'umusaya n'ubwanwa bwinshi ariko butari bwinshi cyane.

Umwiraburakazi wanyujije urudodo mu menyo arashinyitse, arasinziriye, urudodo arufatishije amaboko yombi, imisatsi ye iri kumanuka igakora mu maso, arikogesha amenyo urudodo rwe.

Umuntu w'umusore ari kugaragara aseka yishimye yerekana amenyo yose yombi yo hasi na yo haruguru. Ari gusa nk'uhumbya amaso ye, afite amatwi abiri n'amaso, afite igituza.

Umugabo w'umwirabura afashe urudodo arufatishije amaboko yombi yarukweze, arashinyitse ari kugaragaza amenyo yombi yo hasi na yo haruguru ku rutugu rwe ahafite umwenda wifashishwa mu kwihanagura amazi nyuma yo koga cyangwa gukaraba.

Igishushanyo kigaragaza amenyo yo hasi n'ayo haruguru bifashe akantu kameze nk'akanini katinjiye mo imbere mu munwa katanasohotse.

Umwana mutoya aryamye agaramye ari gufashwa n'umuganga ufite udukoresho ari gukoresha ku menyo ye asa n'ureba ko hari ikibazo runaka yaba afite.

Umugabo uri kumwenyura araryamye asa n'ugaramye, ari kureba umuganga w'umugore, muganga afite akantu mu ntoki asa n'ushaka kwerekeza mu menyo y'uwo mugabo.

Abantu bicaye bambaye imyenda isa y'imipira, abandi inyuma yabo badafite imipira isa n'iyabo. Abicaye imbere y'ameza afite igitambaro cy'umweru bicaye ku ntebe z'ibiti, bafite uburoso bwifashisha koza amenyo.

Umukobwa uryamye imbere ya muganga afite imisatsi migufiya n'inzobe yisize ibintu ku isura bimufasha kuba mwiza, muganga uri imbere ye yambaye agapfukamunwa yambaye na ga mu ntoki.

Umwana uri guhabwa ikinini hakoreshejwe akayiko, umuntu uri kumufasha yambaye ga, yambaye itaburiya. Uyu mwana n’umwirabura ufit'imisatsi myinshi, afite akantu bamutambitseho gatuma atiyaduza ngo yimeneho imiti.

Abana batoya bambaye impuzankano z'imipira, n'amashati y'umuhondo. Bari kwerekana umuti ukoreshwa mu koza amenyo, bari kumwe n'umuntu mukuru w'umwirabura, ari gusekamo.

Imikaya igaragaza amenyo yo hepfo n'ayo haruguru n'imizi yayo, afashe akantu kameze nk'igipesu hagati y'amenyo yombi, ayo hepfo nayo haruguru.

Abaganga babiri bari kuvura umuntu aragaramye ari kureba mu kirere, bari gukoresha ibyuma byabugenewe bakareba mu kanwa ke, yambaye isaha uyu mugabo, yambaye impuzankano isa n'iy'umukara kimwe n'umugore bari kumwe.

Umukobwa w'inzobe w'umwirabura w'imisatsi y'umukara isengeri y'umweru niyo yambaye ari koza amenyo akoresheje uburoso bwabigenewe, ari koza amenyo yo hasi amwenyuyemo.

Abaganga babiri, bari kwita ku muntu ufite ikibazo cy'amenyo, bafite utwuma twabugenewe bari gukoza mu menyo, abaganga bombi bambaye indorerwamo z'amaso, bambaye n'imyenda yabugenewe kwa muganga na ga mu ntoki, udushanete n'amasaha ku kaboko.

Inzu igeretse yiganjemo ibintu byubakishije ibirahure, handitseho amagambo y'abantu bakeneye kwitabwaho mu byerekeranye n'amenyo n'andi magambo avuga ngo: "Ikiganza cye, ibiganza bye kuri Afurika."

Umugore wicaye imbere ya muganga afite telefone ku meza ahira impapuro hari ikaramu hafi aho hari umuti wabugenewe wo gukaraba ku ntoki. Umugore yasamye muganga ari kumukoza igiti cyabugenewe mu kanwa areba uko hameze.

Abantu benshi bagaragaza inseko ku maso yabo, barishimye bari kugaragaza intsinzi, harimo umuzungu uteruye umwana, harimo abakobwa abamama, abapapa n'abana batoya, barishimye bafite amatelefone mu ntoki bamwe na bamwe. Bambaye amakositimu bamwe abandi bambaye imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye.

Umugabo uri gushinyika agaragaza amenyo yo hasi nayo haruguru, akoresheje urutoki rwa mukubitarukoko afite ubwanwa, yambaye indorerwamo z'amaso.

Umukobwa uri guseka wakoze ikimenyetso ntazi icyo gisobanuye, asa n'utambaye hejuru, afite amenyo y'umweru n'amaso meza n'inzara zidasize ariko ntiziconze.

Abantu babiri b'abagore umwe muri bo ni umukecuru undi ni umuntu ukiri muto, uyu ukiri muto arasa n'umuganga ufite akantu gapima umutima, uyu mukecuru yambaye indorerwamo z'amaso, afite imisatsi yuje imvi z'uruyenzi.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi n'umugore ukiri muto, baricaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, bari kureba muri telefone basa n'abashaka guhuza iradiyo na telefone ngo bacurange binyuze mu ihuzashusho rya burutufu.

Umugabo w'umusaza wicaye mu kagare, yambaye igitambaro afite umupira ku rutugu yicaranye n'umukobwa amufashe ikiganza cy'iburyo umukobwa amufashe akoresheje ibiganza byombi, umukobwa ari kumwenyura bishimye.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi ahagaze imbere yishimye yambaye indorerwamo z'amaso ari kureba umusaza wicaye amuhaye amazi mu kirahure, umusaza yicaye ku gitanda anywa amazi.

Umusaza wimvi zuruyenzi, arifashwa n'umuntu uri kumufasha gusohoka ahantu hamwe amujyana ahandi, uyu muntu umufasha gusohoka yambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso.

Abagabo babiri bari guseka bishimye bafunze igipfunsi, bafite amazi mu ntoki, umwe afite umupira w'umweru n'undi afite umupira w'umweru, umwe afite umupira w'umukara ku rutugu rwe, afite n'imvi nkeya.

Abantu bahagaze, bari guhabwa ibibafasha kugenda, nko kujya kubwiherero, ibyuma biri kubafasha kuba babasha guhagarara, no kwicara.

Umugabo n'umugore, umugabo yicaye ku ntebeyambaye agapfukamunwa, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro, umugore apfukamye imbere ye ari gufungira igipesu cy'ishati yambaye agafukamugo nawe, yambaye akantu kagaragaza gutera k'umutima, yambaye ishati y'icyatsi.

Umudamu wambaye igitambaro mu ijosi, yambaye ikote, yambaye ipantaro n'inkweto, yambaye ingofero mu mutwe, afashe ikintu kiri kumufasha kugorora amaguru, uwo bari kumwe amufasha ku rutugu, afite igikapu mu ntoki.

UUmukecuru n'umusaza baricaye bari kurebana kuri telefone, umukecuru afite urupapuro mu ntoki, imbere yabo hari uducupa dupfundikiye tw'umweruru, imbere y'umusaza hari ikirahuri kiyafite amazi acagase.

Umupapa w'umwirabura ari kugendera mu kagare kamufasha guhagarara ntabwo abasha guhagarara wenyine, ari gufashwa n'umuzungu w'umuganga ufite imisatsi ihambiriye ku mutwe hejuru, yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro yenda gusa na buresiyeri.

Abapapa basa n'abakuze bari kuganira bishimye mumuhanda wamabuye ugoswe n'ibihuru, hafi y'aho hari itara umwe yambaye ingofero, undi nta ngofero yambaye, umwe yambaye rakoste undi yambaye ishati, undi yambaye ipantaro yubururu, undi yambaye ipantaro y'ikigina.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi, yambaye ishapure mu ntoki, urunigi, yambaye agakomo ku kaboko afite indangururamajwi, yambaye agapira k'ubururu.

Umusaza ukuze. Ari gufashwa n'umuntu kuba yagerageza guhaguruka ku gitanda yicayeho. Inyuma ye hari supaneti hari amatara hari n'igikapu, hari akabati k'imbaho. Hari umugore ufashe umusaza, umugore akaba afite imisatsi miremire.

Umusaza n'umukecuru, baricaye bari gusoma ibintu bitandukanye ku mpapuro ziri imbere yabo ku meza, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso afite na telefone mu ntoki, yambaye n'impeta.

Muganga wicaye ari gufasha umukecuru. ari kumupima ibyerekeranye n'imivuduko y'amaraso n'uburyo umutima we uri gutera mu rwego rwo kumufasha kwirinda indwara zitandura.

Umukecuru wicaye yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, ishati y'umweru, ateze igitambaro, ahantu yicaye hari inkwi zumye, aratetse ku mashyiga, umuriro mu ziko n'amasafuriya.

Abagore biganjemo harimo n'abagabo batatu, bahagaze mu murima, bazamuye amaboko umwe muri bo afite agasuka mu ntoki, bambaye amakanzu abandi bambaye imipira n'amajipo

Abakecuru babiri b'imvi z'uruyenzi, hafi aho hari umwana w 'umupira w'umweru uvuye muri gahunda yo kwamamaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, inyuma hari abandi benshi, urujya n'uruza.

Abantu batandatu, babiri ni bana, abandi babiri ni abamama abandi babiri ni abapapa. Muri abo babiri ba bapapa, undi ni umusaza. Barishimye barasekana, baraseka nk'abishimanye nka famiye.

Umusaza usamara akifotozanya n'umwana we, bambaye ishati mo imbere harimo n'udupira; umusaza afite imvi z'uruyenzi, umwana w'umukobwa yambaye indorerwamo z'umurimbo.

Umugabo w'umwirabura aricaye yambaye ipantaro y'umukara yambaye ishati isa n'ikigina, yambaye icyuma ku kuboko gisa n'isaha imbere ye hari ameza yigiti, atunze urutoki rwa mukubitarukoko muri icyo cyuma yambaye ku kaboko.

Umuryango wishimye wuje urugwiro, uri guseka wicaye hamwe ni umuryango w'abantu babiri b'abana, abamama babiri n'abapapa babiri bisa naho ari imiryango ibiri yahuye.

Umu mama ukuze ari muri siporo ari kuyikorera mu nzu, ari kureba imbere asa n'umwenyuyemo, kandi akanura cyane imvi ze ni uruyenzi yambaye isengeri.

Umubyeyi uri kumwe n'umusaza usa n'ukuzemo, umubyeyi gusuka umutobe w'umuhondo mu kirahure, umusaza afite igikombe imbere ye n'izindi mbuto afite ikiyiko mu ntoki.

Umukobwa ukiri muto n'umumama ukuze, bari kureba bishimye bari guseka bamwenyura, umukobwa wambaye isaha, umumama yambaye impeta, ni umukobwa ukiri muto yambaye impuzankano y'ubuganga, afite imisatsi iboshye ubutatu.

Umuntu yicaye ku ntebe bari kumutera urukingo rwa kovide, amagambo avuga ngo: Fata urukingo rwa kovide nku umutekano wawe wizewe, wo kubaka uburinzi bw'ubuhangange bwawe bukomeye.

Abanyacyubahiro babiri bafite indangururamajwi. Umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso. Afite telefone mu ntoki. Inyuma yaho hari amagambo ati: muhagarike icyorezo cya marburg. Byabereye i Kigali ku itariki makumyabiri Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuntu w'igitsina gore yambaye agashati k'icyatsi kibisi n'akajipo k'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki ari imbere y'abantu, afite linete mu maso yambaye, afite na terefone mu ntoki.

Abagabo babiri, umwe aricaye ari guterwa urushinge, uwicaye yazamuye amaboko y'umwambaro we kugira ngo aterwe urushinge ku kaboko, yambaye agapfukamunwa, afite umusatsi mwinshi w'umwimerere.

Abaganga batanu bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, bari kubaga umuntu bamuvura ikibazo cyo mu kanwa, bafite n'amaserumu bari kumutera.

Abantu bahuje umugambi, bambaye imyenda isa y'imipira y'umweru cyane, bafite ibyapa bigaragaza kwirinda kanseri y'ibere, ikisuzumishwa hakiri kare kuko irakira.

Amafoto y'abantu batanu, batatu b'abagabo, babiri b'abagore, baragira bati, baho nta wundi muntu ukuri inyuma, kubaho abantu bafite uburenganzira bungana haba mu byaro no mu mujyi muri Afurika.

Icyapa gishishikariza abantu kwikingira, umuriro mwinshi, iyi gahunda ikaba yarongerewe kuzageza ku itariki cumi n'enye, mata umwaka wa bibiri makumyabiri na kane. Amakuru meza, icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru, amagambo yandikishije umukara.

Ibimenyetso byo kugaragara indwara zitandukanye za kanseri, biri mu mabara atandukanye; ubururu, icyatsi, pinki, umukara, umweru, n'umutuku, umuhondo.

Amagambo agira ati: "Indwara zidahererekanywa cyangwa se indwara zitandura". Hafi aho hari akuma kabugenewe kumva uko umutima utera, hari ikaramu hari impapuro.

Abantu bicaye bambaye amakote n'amashati n'inkweto, baraganira ku ngingo y'ubuzima cyane cyane bwo mu mutwe umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu biganjemo igitsina gore bari kwiga, bari kumwenyuramo bamwe bambaye impuzankano, abandi ntazo bambaye, imipira y'umweru, iy'umukara, amapantaro y'icyatsi.

Icyapa kiriho umugore ufunze igipfunsi agaragaza intsinzi amwenyuramo yambaye impuzankano ya muganga, hirya ye hari amagambo agira ati ''imbaraga y'Afurika abandi bati duteze imbere ubuzima bwiza mu Rwanda.''

Abantu bari mu myaka yenda kungana, bafite amafoto mu ntoki zabo zitandukanye, bicaye ahantu hari tapi itukura, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, bambaye imyenda idasa, bamwe bambaye ibitambaro mu mutwe abandi ntabyo bambaye.

Abanyacyubahiro batandatu, abagabo batanu n'umugore umwe, bicaye imbere y'abantu benshi, bari gutanga impanuro ku bantu batandukanye b'abazungu n'abirabura.

Amagambo yiganje mu ibara ry'icyatsi n'umutuku n'umweru, ahurije ku ntego igira iti urugero rw'ibyiciro byakingiwe kovide cumi n'icyenda.

Impuguke iri kwigisha abantu bambaye imyenda itandukanye. Bicaye ku ntebe zitukura. Bafite imashini imbere yabo. Bafite n'icyuma cya porojekitire gisakaza amashusho imbere yabo, mu buryo bwagutse. Afite mikorofone mu ntoki. Cyangwa se insakazamajwi.

Umugabo w'ibiro byinshi aryamye agaramye kwa muganga, akikijwe n'ibyuma bitandukanye, arimo serumu mu kaboko ke, yambaye ikabutura.

Umwana ari kwitabwaho na muganga, muganga yambaye agapfukamunwa, n'ishati isa n'ikirere. Imbere hari imibare gatanu, hari umuhungu wicaye uteze igitambaro mu mutwe.

Umuganga wambaye itaburiya ari guseka yambaye rinete, afite umusatsi mwinshi, afite akuma gapima umutima, afite akantu kameze nk'ikayi mu ntoki yegeranye n'umwana wambaye ikanzu y'ubururu, uwo mwana yifashe ku nda.

Inzu nziza isakaje amabati ya oranje, ibirahure, metarike, urukuta rw'amabuye, inzira y'amabuye, ibyatsi, ikirere ndetse no kurenga kw'izuba.

Ibitanda byo kwa muganga biryamaho abarwayi, bifite isaso, iyi matela zifite imyenda y'icyatsi kibisi, bigoswe n'utwuma, icyuma gitwarwaho serumu n'ikindi kijugunywamo imyanda.

Umugabo wambaye imyenda n'ipantaro n'ikoti n'ishati arahagaze, imbere ye hari abantu bicaye ku ntebe z'imbaho ari kubigisha, bamwe ni abasiramukazi, abandi ntabwo ari abasiramu, abandi ni abagabo abandi babiri begeranye n'uwo mugabo bicaye imbere y'ameza.

Inzu irombereje ifite amatara y'umweru, irange ry'umuhondo, inzugi z'ibiti, harimo ibishushanyo bitandukanye bigaragaza umuco, hari akameza kenda gusa umukara.

Umwana uhetse umuntu mukuru mu kagare kabugenewe gatwara abantu bafite ubumuga bw'ingingo, mu muryango aho hafi hari umumama wambaye umupira w'umweru uhagaze mu muryango.

Umuganga wambaye itaburiya y'abaganga ari kumwe n'undi mugabo ku rubaraza rw'inzu ifite ibirahure, yubakishije amabuye y’amasarabwayi.

Umugabo aryamyeagaramye yambaye ipantaro, umupira w'amaboko mugufi w'umweru, apfukamunwa n'ingofero. Ari gufatwa amaraso n'umuganga w'umumama wambaye itabuye y'umweru. afite imisatsi itemba mu mugongo yambaye n'agapfukamunwa na ga.

Ahantu hasa neza hari ahantu hakirirwa abantu, hari intebe z'ubwoko butandukanye zo kwicaraho, higanje irangi ry'umweru n'irangi ry'umuhondo n'amatara, inzugi n'iz'ibyuma, hakaba n'inzugi z'ibiti.

Amarembo y'ibitaro bya nyanza. Ni amarembo y'ibyuma imbere harimo igiti cy'inganzamarumbo harimo amazu afite isakaro y'amabati y'icyatsi kibisi, hanze y'ibitaro hari ibyapa.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hari ibiti umuntu ari kumanuka yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara yatebeje, hirya hari umuntu wegamiye itara yambaye umupira w'umutuku ku maguru.

Icyumba cyakirirwamo abarwayi barwaye uburwayi runaka, ni kwa muganga, higanje intebe zo mu bwoko mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'utuntu tubafasha kuba bakora icyumba kugira ngo bafashe umuntu.

Ahantu heza hateguye intebe nziza zitandukanye z'ubwoko butandukanye hari televiziyo hari umuntu ukwakira abantu nta muntu numwe uhari hari ibishushanyo bya'mabara atandukanye hari irangi ry'umuhondo hari inzugi z'ibiti hari intebe z'umukara n'ameza y'igiti.

Abaganga batandatu b'abagore bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi nu'dupfukamunwa, babiri muri bo bafite imisatsi itemba inyuma, abandi ntabwo bafite imisatsi itemba inyuma bafunze igipfunsi bagaragaza ubutsinzi.

Icyuma gikoreshwa mu kureba utuntu duto cyane tutaboneshwa amaso, kirateretse, imbere yacyo hari ibirahure bisa n'ibirimo amazi agiye acagase, hari uducupa duto dupfundikiye, dupfundikije imifuniko y'ubururu.

Umuganga ari gutera urushinge rw'urukingo umuntu, umuganga yambaye itaburiye y'umweru n'ishati y'cyatsi kibisi yambaye n'akabaji, uyu muntu arigutera urushinge yicaye ku ntebe hirya ye hari abandi nabo bari gutera inshinge abandi.

Uruhinja ruri guterurwa na muganga ufite agapfukamunwa n'akantu yambaye mu mutwe, yambaye ibirahure, yambaye impuzankano ya muganga. Uruhinja rwari ruteruwe na mama, mama yambaye akantu k'icyatsi kibisi, afite imisatsi iboshye, ni umwirabura kimwe na muganga.

Amaraso apfunyitse mu dupfunyika twabugenewe ni twinshi abantu bari hirya yayo barahagaze abandi baricaye bariku kuvuga abandi bararyamye ku ntebe ku gitanda cyo kwa muganga.

Abantu babiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga. Bombi bambaye utwuma tubafasha kongera umwuka wabo mu bihaha.

Inzu ifite imiryango y'ibirahure, hejuru yayo hari amagambo agaragaza ahantu abana bitabwaho bafite indwara zitandukanye. Amagambo agiye afite ibara ritandukanye kuri buri nyuguti; umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, mu muhanda aho hari abana babiri bicaye ku igare umwe afite indobo, hari ibyapa bigaragaza amerekezo y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi.

Inzu y'ababyeyi, aho babyarira, inzu y'umweru, ishakaje amabati y'icyatsi kibisi, igoswe n'ibiti bya gereveriya ndetse n'ibindi biti by'imbuto, hari n'amajaride y'indabo.

Inyubako ya mabengeza, hafi aho hari indabyo zihateye. Ikibindi kirimo ururabo, hari amagambo agira ati ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku barwayi ba kanseri.

Ibitaro by'ubakishije amatafari' impunyu bisizemo irangi ry'umuhondo yenda kuba umweru n'amadirishya ya metarike, amabati asakaje ibitaro asa ubururu n'ibitaro bifite icyapa cyaho amaso avurirwa.

Abantu bari kugenda mu muhanda, hafi aho ngaho hari irembo ry'Ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, harya yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye ifite imisakaro ry'amabati y'ubururu y'icyatsi kibisi.

Inyubako, hafi aho hari igisambu, hari idarapo ry'u Rwanda, hari icyapa n'umuhanda ukomeza imbere muri izo nyubako.

Inzu igeretse kabiri iragaragara aho ari ivuriro, hafi aho hari imodoka n'abantu bakeya, ni ku mucyo w'amanywa w'amasaa sita.

Inzu y'ababyeyi aho babyarira n'aho bitabwaho, iyo nzu yubakishije amatafari ahiye ifite isakaro y'amabati y'icyatsi kibisi, hirya hagaragara inzira nyabagendwa.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya sehashibe ya Butare ibitaro biriho amarangi y'umweru bifite isakaro ry'umuhondo mu muhanda wa kaburimbo na jaride.

Umuganga ufite umuti mu ntoki yambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru yambaye ga mu ntoki, hirya ye hari intebe ari ahantu akorera ari kureba mu cyuma afite ibyo yari kurebamo ntasobanukiwe neza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, birimo ibyifashishwa kwa muganga ni byinshi. Inyubako irabengerana irimo n'amatara y'umweru, iri mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Abaganga n'abandi bantu barahagaze, ni batanu, bari mu cyumba kirimo ibyuma bitandukanye byo kwa muganga n'ibitanda, imbere yabo hari ibyuma byerekana amashusho.

Inyubako nini igeretse hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara aratebeje, arambuye akaboko nk'uri kwerekana ikintu runaka, hari amamodoka menshi y'amabara atandukanye yaba nk'umutuku n'umweru hakabamo n'imbangukiragutabara.

Inyubako zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, harimo inzira nyabagendwa zigiye zikoze neza zigaragaza indabo, hagaragara ibiti by'umurimbo, hakurya hari ishyamba ry'inturusu n'ibindi biti bitandukanye.

Abaganga bane babiri ni igitsina gore abandi babiri ni abagabo, bari mu kuvanga utuntu twa hato na hato bavanga imiti, bafite amazi, bafite icupa, bafite utuntu bari gushyiramo amazi, hari imigozi icometse ku muriro.

Inyubako nziza y'umweru igeretse, ikorerwamo ubushakashatsi mu byerekeranye n'ubuvuzi, hari igisambu, hari indabo, hari n'izindi nyubako ziyikikije.

Umuntu wicaye munsi y'igiti, yicaye ku mabuye, yicaye afashe hasi, imbere ye hari ibyatsi. Igiti kiraragaye cyane, gifite amashami menshi n'imizi minini, hirya ye hari inzu isakaje amabati.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku bana bahuye n'ihohoterwa ishami rya Remera-Rukoma mu karere ka Kamonyi, ni inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye, afite isakaro ry'ubururu n'andi afite isakaro y'umutuku afite ibigega by'amazi.

Ibyuma byo gukoreho siporo bitandukanye, birimo ibyo wifashisha wirukanka, ibyo wifashisha uterura, ibyo wifashisha ugororara ingingo, ibyo wifashisha ugorora umugongo, ameza, ibyatsi, ibiti n'ibihu bike bike.

Umuntu wicaye ku ntebe yo kwa muganga, ari kunanurwa amaguru na muganga, bisa naho afite ikibazo mu mavi.

Umugore wambaye ipantaro isa n'ikirere n'agasengeri ari muri siporo, afashe akaguru ke k'inyuma akoresheje ukuboko kw'ibumoso, ukuboko kwe kw'iburyo kuri imbere ye, ahantu ari hari amabara y'umweru n'umuhondo.

Umuntu afashe ikirahure kiri mu shusho y'akabindi kirimo amazi ari kuyasuka mu kirahure kiri mu ishusho y'igikombe, ayasukamo ageze muri kimwe cya kabiri.

Abantu b'igitsina gito bitandukanye bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo ninkweto n'amasogisi. Hafi yabo hari ibiti, hantu bari hubakishije amabuye izuba rimeze nk'aho riri kurasa.

Umukobwa, uri muri siporo, wambaye isaha y'umukara, n'isengeri, aziritse imisatsi ku mutwe wo hejuru, yambaye impuzamajwi, yambaye akantu ku kaboko, ari gukora siporo akora mu mugongo we inyuma.

Umugore wicaye ari gukora siporo, yambaye agapantaro kamufashe n'agasengeri, imbere ye hari mudasobwa yicaranye icupa ririmo amazi, azamuye amaboko ari kugorora ingingo.

Umugabo w'umwirabura ari muri siporo afite amazi mu icupa ari kuyimenaho mu maso no mu mutwe arasamye ari kureba mu kirere inyuma ye hari izuba.

Umuganga ari kugorora umukobwa agorora mu mavi he, amufashe mu mavi afatishije akaboko k'iburyo, akaboko k'ibumoso gafashe mu kirenge cy'umukobwa, amaboko y'umukobwa afashe mu nda ye, umukobwa yambaye umupira usa n'ivu bari mu cyumba.

Umuntu w'umugabo ufite ikibazo cy'imitsi uri kugororwa na muganga abikora mu buryo bya gukoreramo afite akantu mu akitse icyatsi kibisi yambaye umupira w'icyatsi kibisi muganga yabaye yitaburiye y'umweru amufashe ku kaboko amufasha kugorora akaboko n'imitsi muri rusange.

Umugabo w'umwirabura ari muri siporo yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto n'isengeri y'umukara, ari kugorora mu mavi he azamuka yongera amanuka, amaboko ye yombi akoze ku mavi, ari kujya ayifashisha mu kuzamuka.

Umugore, unanutse, arabyutse, yicaye ku buriri, ntabwo bushashe, ari kwinanura arambuye amaboko areba mu kirere, afite imisatsi iryama mu mugongo, yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umupira wo gukina urimo amabara y'umweru n'umukara. Urukweto rwo gukinisha rurimo amabara y'umweru, umukara n'umutuku. Agakoresho gakoreshwa mu gupima umutima, gafite akantu k'umukara gafite n'utwuma tw'umweru tubiri.

Umugabo uri muri siporo ahasa arasutamye azamuye amaboko yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari umugabo cyangwa se umugore ntabwo agaragara neza, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Urubyiruko n'abantu bakuru bari muri siporo bambaye imipira y'amasengeri, bambaye amakabutura n'inkweto n'amasogisi, bari muri siporo bifashishije umuziki.

Amashusho agaragaza ibintu bitandukanye, harimo kubabara umutwe, kumva ingoma ziduhira mu matwi, kumva wataye umutwe wababaye cyane, kumva utari umunyakuri, kumva ufite ibibazo byinshi, kudasinzira neza.

Umugabo ugaragara nk'uwakoze siporo, ari kunywa amazi, ahagaze ku zuba, ahantu mu butayu, afite ubwanwa, ni inzobe, yambaye isengeri irimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo yicaye ku ntebe y'igiti ari kunywa amazi, yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, ari kumwe n'umugore wambaye ikabutura y'umukara n'agasengeri gasa n'ivu bafite ibikapu byose bisa umukara.

Umukobwa uri gukora siporo, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'agasengeri gatoya, ni umwirabura, afite imisatsi igwa mu mugongo, ari kureba hejuru kandi amaboko ye ari hasi, ari gukorera ku itapi itukura.

Umugabo afashe umupira awufatiye mu mayunguyungu, yambaye umupira w'amaboko magufiya, umupira wo gukina afite wanditseho umubare kane, afite agapira kanditseho mu bituza bye.

Abantu batatu bari ku cyapa bambaye impuzankano y'abantu bakina umupira, bambaye amapantaro y'imihondo umupira w'umweru abandi iratukura, bambaye ibintu bikingiye bambaye n'ingofero zikingira umutwe.

Umugabo w'umwirabura wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umweru ari muri siporo amanuye amaboko umugongo uremye ivi rimwe rirapfukamye irindi ntabwo ripfukamye yambaye ibirenge.

Umupira wa rugubi mu ntoki z'ibiganza by'umuzungu wambaye itaburiya y'umweru, karavati n'ishati y'umweru akaba afite n'akantu gapima gutera k'umutima ku rutugu rwe.

Umugabo w'umwirabura wambaye isengeri isa n'ivu ari gukora siporo ngororamubiri cyane cyane yibanze kuri siporo zinanura amaboko zikanayakomeza .

Umuntu ufite amaguru n'amaboko wagirango ngo ni iby'umukobwa, ari kwikanda nk'uwavunitse ari kwikandisha imiti iri mu ishashi, n'inzobe afite inzara z'inzobe yambaye ipantaro y'ikoboyi yenda gusa umukara.

Umugore uri gukora siporo yambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, arambuye amaguru ye n'amaboko ye arambuye umugongo afite imisatsi y'umukara iboheye inyuma.

Umuntu uri kwikanda yambaye impeta n'umwirabura. N’umugore ari kwikandisha imiti mw’ishashi. Yavunitse akaboko mu nkokora. Uyu muntu ari kwikanda ku kaboko k'iburyo.

Umusore usa n'uwunamye, afite akantu ahagazeho nk'uri muri siporo, yenda gukora hasi, ukuguru kumwe karahagaze, akandi ntabwo gahagaze kari inyuma ye, yambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umukara.

Ibitaro by'umwami Fayisali, biri gusanwa n'umugabo wo gufashwa n'abandi babiri, umwe muribo abahagaze ku rwego undi ahagaze hasi, umwe yambaye umupira w'amaboko maguru magufi hamwe n'uri gusana ahagaze ku rwego.

Imbuto zitandukanye zirimo avoka, pome, icunga, powavuro, shufureri, akantu k'umukara gafite amapine. Izi mbuto ziri ahantu hari ibara ry'umuhondo.

Umuganga wicaye ufite agapfukamunwa afite mudasobwa imbere ye, afite amakayi, afite n'ikaramu. Ari kwambara neza agapfukamurwa.

Umuntu w'igitsina gore afashe ku kaboko k'iburyo afatishije ak'ibumoso, yambaye impeta, yambaye akantu mu ijosi.

Ishusho igaragaza urutirigongo n'amagufa no mu nda n'imbavu. Amagufa y'amaguru naho imbavu zigarukira.

Umuntu wavunitse afashe ku kaboko agafatishije ikintu runaka, ni akaboko k'iburyo afatishije akaboko k'ibumoso, ni umwirabura, afite inzara zisize ibara.

Umugabo wumwirabura ari kunywa amazi mw' icupa ryicyatsi kibisi rya palasitike inyuma ye hari ibyatsi yambaye umupira wumukara wamaboko magufi .

Umugabo ari kugorora ingingo mu kwaha he hari kugaragara, nta bwanwa afite, yambaye isengeri, yambaye ikabutura y'umukara, ari ku zuba, akaboko ke kamwe kari mu mutwe, akandi gafashe akandi.

Icyapa cy'abasirikare b'Urwanda, kigaragaza kwitabwaho k'ubuzima bwo mu mutwe n'ubw'ingingo.

Ishusho igaragaza kugaruka ugakina, irimo uduce dutandatu, twose duhuje intego imwe yo gukina, ukina umupira, ukora siporo, utwara ikinyabiziga, ni impamvu ya siporo n'ibindi bitandukanye.

Ikirenge kigaragara nk'icy'umuntu uri kwiruka, gifite akagombambari kariho amabara y'umutuku n'ubururu, gifite agatsitsino n'amano atanu.

Umusore uri gukora siporo ngororamubiri, akaboko kamwe gafashe mu bitugu inyuma, akandi gafashe mu nkokora, afite umusatsi uringaniye, afite ibigango, ni umwirabura, yambaye umupira w'umukara.

Umwana uri guseka yicaranye na mama we, bicaye ku buriri bunini bw'abarwayi bari guseka bishimye, umwana yambaye amasogisi, mama we yicaye yishingikirije ku gitanda yicayeho.

Abantu bane bari kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'imyeru bambaye inkweto n'amasogisi n'amakabutura n'imipira y'amaboko maremare, bose bari kwiruka mu cyerekezo kimwe.

Umugore wicaye, ari muri siporo. Akaguru ke kararambuye, akandi kaguru karahinye arambuye amaboko akoze ku kaguru karambuye. Ari kunanura umugongo, mu mavi, amaboko no mu nkokora.

Uwo muntu utagaragara isura ye ariko bisa n'aho ari igitsina gore, ari muri siporo afashe akaboko kamwe kari inyuma agorora imbavu, yitegeye umusozi utagaragara neza ugaragaza amabati n'amazu n'ibiti biri ku musozi.

Umwana wicaye hasi, hafi aho hari umuzungu, hari umwirabura wambaye nk'abantu bihaye Imana, hirya hari abaganga, hakaba n'abarwayi n'abarwaza.

Umugabo uri gukora siporo mu myitozo ngororamubiri ari kumwe n'umumama aricaye, hafi yaho hari ameza hari ibyuma byabugenewe mu gutoza umubiri gukora siporo nk'imigozi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara, aricaye arambije ukuguru kumwe ukundi araguhinnye ari muri siporo ari kugorora amaboko n'umugongo; yambaye akantu kamufasha guhuza umuziki awuvana ahantu hamwe awugeza mu matwi ye, afite imisatsi izirikiye mu mutwe hejuru, imisatsi ye ni umwimerere.

Umuntu aryamye agaramye, yambaye isaha y'umweru afite agakoma yambaye k'umukara, afite telefone mu ntoki, yambaye ikabutura y'umumweru n'umupira w'umukara, ari kugorora amaguru afashijwemo n'undi muntu umuhagaze ku ruhande, umuhagaze ku ruhande ari gufata akaguru, kamwe karambuye akandi gahinnye.

Urubuto rw'umuneke na pavuro, pome itukura na pome y'icyatsi kibisi, amacunga y'umuhondo, kokombure z'icyatsi kibisi, indimu isa na ho idahishije.

Isuku ikorwa mu buryo butandukanye, twoga, twihumura, twoza intoki, twambara amajire, twambara imyenda yabugenewe mu kazi, dukaraba amazi meza n'isabune n'ibindi nk'ibyo.

Umuntu w'igitsina gore, yambaye ipantara n'agapira kagufi ari kugorora ingingo, ahengamiye ku ruhande rumwe agorora akaguru karambutse akandi gahinnye ari kureba mu kirere afashe ku mpera y'ikirenge cye, yambaye impeta ku rutoki.

Umugore w'umwirabura wambaye igitambaro cy'umweru, yambaye n'umupira n'jipo, acuruje inzoga z'amoko atandukanye, imbere ye hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro aba yatebeje yambaye n'umukandara.

Icyatsi giteye mu gihuru kimeze nk'ikawa itakura, kigaragiwe n'ibyatsi bibisi by'urwibi, giteyeri mu gihuru ahantu hari ifumbire nyinshi.

Umugore w'inzobe afite agacupa mu ntoki k'umukara mu kiganza cye, ikiganza cye kimwe kiri hasi ikindi kiganza kiri hejuru giteretseho agacupa k'umukara.

Icyapa kigaragaza kwishimira ibyagezweho mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri hakoreshejwe imivurire y'ibimera ya kimeza cyangwa se ibiterwa bikamera mu butaka.

Ikibabi cy'umuravumba kirambitseho utunini, utunini ni kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu ,turindwi ,umunani twose hamwe ni umunani.

Ibyatsi birimo ibyatsi bitandukanye harimo n'ibyumye hakaba n'ibindi bikiri kuraba bisa nk'ibyatemwe byamaze kugwa hasi

Agacupa k'umweru gapfundikiye, gafite ikirango cy'amabara y'umuhondo n'icyatsi. Karimo ibintu biva mu macunga, bikoreshwa mu kwisukura.

Ururabo rw'umuhondo, rw'icyatsi kibisi n'ururabo rw'iroze, umuyinya ibintu babohamo umusambi, n'irurabo rutukura, n'ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Umuntu urwaye urutirigongo, arwaye mu mavi arwaye mu i rugu, arwaye mu rutugu, arwaye ku kaboko, n'imiti yo kumuvura hamwe n'ibintu byamufasha kwivura.

Urubuto rw'ipapayi rufite imbuto zarwo mo imbere, rukasemo kabiri, ni umuhondo mo imbere, inyuma rurasa n'icyatsi ariko rutarahisha neza.

Icyatsi cyitwa umuravumba gifite agashami gatukura, iki cyatsi gisa icyatsi kibisi, inyuma hari ibifite ururabo rw'umweru bigaragaza umwero w'icyatsi cy'umuravumba.

Umunwa n' amenyo nka bimwe mu bice bigize igice cy'isura, hasi hari umuti woza amenyo, yo mu bwoko butandukanye.

Icyatsi cy'umuravumba cyakuze cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, mu buvuzi bw'ibimera.

Umugabo wambaye kiganga itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, agatambaro mu mutwe, afite imbere ye amacupa n'udukarito ari kugenda ashyiramo ya macupa.

Ikimera cy'icyatsi kibisi cyitwa umuravumba, cyazanye indabo z'umuhondo, gifite ibibabi byatobotseho

Uducupa dupfundikiyemo imiti, ikirahure kirimo uturabo, uturabo turi ku ruhande. Ibiti bibajwe nk'umwuko biriho utuntu tumeze nk'imbuto.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umweru, uri gusoroma ibibabi by'ibiti biri mu bihuru, akaba ari ku bisoroma ahagaze asekamo gake.

Ingemwe z'ibiti bitandukanye biri mu masashe n'icyondo, biri ahantu hamwe mu kirundo ni utundi tuzi dufite ibibabi bito bitoya.

Ibiti by'amoko atandukanye biri mu ishyamba, hasi hari amababi yumye, hari n'ibiti byumiye hasi, ibi biti n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu w'umugabo n'undi w'umugore, bahagaze ahantu, umugore ahuje ibiganza, umugabo ari kwitegereza imbere, bari munsi y'agati karadaranze.

Ikibabi cy'avoka iri guhunda, iri kuzana urubuto rwo kwera mu minsi mikeya rwafotorewe ahantu hijimye.

Igiti cy'amashami n'amababi menshi, giteye ahantu mu gihuru, aho gikikijwe n'ibindi biti byinshi bitandukanye by'amoko atandukanye, harimo ibifite n'amababi yananambye yabaye umuhondo.

Abantu batari benshi bambaye impuzankano babiri muri bo ntabwo bambaye impuzakankano, hafi aho hari ibimera bikoreshwa mu gutunganya imiti imwe n'imwe bamwe bari guseka abandi ntabwo bari guseka.

Icyatsi cy'umuravumba. Cyifashishwa, mu kuvura indwara zitandukanye. Gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, n'ubuvuzi bwa kinyarwanda, cyangwa se ubuvuzi bukoresha ibimera.

Urubuto rw'icunga, aha hari amacunga, imwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, arindwi, amazima ni icyenda, andi atatu aciyemo kabiri.

Icupa ry'umweru ryanditseho amagambo avuga ngo: "Guhora utumbiriye", ku ruhande andi magambo aravuga ngo: "Ubwonko buhora ku murongo kandi butumbiriye."